Abajyanama b'ubuzima ni bamwe mu bantu bafasha abaganga mu kuba bahugura abaturage kuko akenshi abajyanama mu b'ubuzima baba bari mu baturage bo hagati aribo bo bamenya ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage ni ngombwa rero ko habaho amahugurwa yo guhagura aba bajyanama b'ubuzima kugira ngo bazabashe kubona uko bita ku baturage baturanye bahuye n'ikibazo.

Mu gihe gishize igihugu cyacu n'isi yose muri rusange byari bihangayikishijwe n'icyorezo cya Korona virus, mu gihe hatangwaga urukingo rwo kwirinda kwandura indwara no gukwirakwiza iyo ndwara, uwahabwaga urukingo cyangwa uwatangaga urwo rukingo byabaga mu buryo buri umwe ataza...

Ababyeyi basabwa gutoza abana babo bakiri bato kugira isuku bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, mu gihe baba bagiye gufata amafunguro, cyangwa bavuye mu bwiherero, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, no kuba bakwirakwiza izo ndwara muri bagenzi babo.

Ni ngombwa ko ababyeyi bafatanya n'abarezi cyangwa n'ubuyobozi mu kurinda abana babo kujya kwogera mu migezi itemba kuko usanga akenshi muri iyo migezi itemba usanga harimo imyanda igiye itandukanye yaturutse mu bice byinshi bigiye bitandukanye ku buryo byateza abana babo kurwara indwara ziterwa n'umwanda.

Abaturage bagomba gushyirwaho ivomero rusange ryabugenewe, aho babasha kubona amazi meza batagombeye gukora urugendo rurerure nk'abana bajya ku mashuri bakaba babasha kubona amazi hakiri kare, ku buryo bikabarinda kuba bakererwa kujya kwiga kandi bikabarinda indwara zikomoka ku mwanda.

Ibigo by'amashuri bisabwa gushyiriraraho abana, ahantu habugenewe ho gukarabira intoki, hari ibikoresho byose byifashishwa mu gukaraba intoki, amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, cyangwa kuba bakwirakwiza izo ndwara muri bagenzi babo.

Minisiteri y'Ubuzima yashyiriyeho abaturage uburyo bwo kwisuzumisha virusi itera sida, mu buryo bworoheye buri muntu wese bitagombeye ngo umukire cyangwa umukene, kwisuzumisha virusi itera sida ni ubuntu, ni ngombwa rero ko urubyiruko rwose rugomba guhaguruka rukayirwanya, rukayirinda.

Hari abaturage batuye mu bice by'Igihugu, batabasha kuba babona amazi meza, bakifashisha amazi y'ibiyaga; ugasanga umuturage arimo aravoma amazi yo gukoresha mu rugo, hari n'undi uri kuhogereza igari, ayo mazi ntabwo aba yizewe, ashobora kubatera indwara zikomoka ku mwanda.

Abaturage basabwa gushyirwa mu mavuriro rusange kugira ngo babashe kubona amazi meza biboroheye, bidasabye ko bakora urugendo rurerure, mu rwego rwo kwirinda gukoresha amazi mabi byabatera kuba barwaye indwara zikomoka ku mwanda, harimo nk'inzoka.

Abajyanama b'ubuzima bafasha abaturage kuba bamenya uko bafata ku mwana wabo bafasha abaganga mu kuba bakurikirana abana bakiri batoya babafasha kuba bagira abaturage inama kuba bakita ku bana babo mu ndyo yuzuye kubarinda indwara.

Ibigo by'amashuri bisabwa gutoza abana kugira isuku bakabishyira ahantu habugenewe, basanga ibikoresho bakifashisha mu isuku harimo amazi meza n'isabune, mu gihe ba bavuye ku bwiherero bagakaraba intoki gihe bagiye gufata amafunguro nabwo bakongera bagakaraba.

Bibiri na makumyabiri na kane mu kwa cumi, itariki makumyabiri, mu Rwanda habereye inama ivuga ku guhagarika icyorezo cya Mabaga, cyari cyagaragaye ku butaka bw'u Rwanda. Mu buryo bagihagarika gukomeza kukwirakwira mu baturage, n'abagaragaje ibimenyetso by'iyo ndwara baGabahabwa ubuvuzi.

Ikibazo cy'imirire mibi gihangayikishije isi muri rusange, ni ngombwa kwita ku bana babaha indyo yuzuye, harimo ibirinda indwara, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, mu gihe hagaragaye ko hari umwana ufite ikibazo cy'imirire mibi, akajyanwa kwa muganga kugira ngo abaganga bamukurikirane.

Amenyo ni ingirakamaro mu buzima bw'umuntu. Ni byiza kujyana umwana kwa muganga hakiri kare, kumusuzumisha ko hari uburwayi bwa burimo mu gihe yaba afite uburwayi bwayo bakaba bamufasha kuba bamuvura hakiri kare kugira atazangirika cyane.

Buri wese afite inshingano zo kurinda amenyo ye kurwara kwirinda kuba hari ibintu biyangiza kandi mu gihe yaba ahuye n'ikibazo cy'uburwayi bwayo ko yajya kwa muganga hakiri kare kugira ngo ayakurikirane kugira ngo nyuma atazaza guhura n'ingorane zo kuba bayakuramo.

Ni byiza kwita ku isuku yo mu kanwa kuko birinda indwara z'amenyo, harimo nko gucukunyurika, guhongoka no kuba amenyo yawe atacya bikanarinda kuba umuntu yagira impumuro mbi mu kanwa, ni byiza rero kuba umuntu ya kwita ku isuku yo mukanwa kuko birinda amenyo yiwe kwangirika.

Iyo umuntu atasukuye amenyo ye afite ibyago byinshi byo kwangirika ku buryo umuganga ashobora gufata icyemezo cyo kuba yarikuramo, rero hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byakwifashishwa mu kuba byakuramo irir ryinnyo ryarwaye.

Ni byiza gusuzumisha indwara cyangwa kwivuza indwara y'amenyo hakiri kare, mu gihe wumvishe ufite ibimenyetso by'uburwayi bwayo, ukajya ku muganga wemewe ufite ibikoresho bihagije, byagufasha mu kugusuzuma cyangwa kukuvura uburwayi bw'amenyo aho gupfa.

Hari abaturage baba bageze mu za bukuru badafite ubushobozi bwo kuba bashaka umuntu ubafasha babayeho mu buryo butari bwiza, nk'umukecuru udafite imbaraga ugasanga yicaye nk'ahantu ntago afite imbaraga zo kuba yahaguruka ngo akorere isuku aritekeye n'aho atekeye uhasanga n'aho ntasuku ihari.

Abantu bari mu za bukuru baba bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara nk'umutima, umuvuduko w'amaraso, imitsi, rubagimpande, iyo numva ko hari umuntu ugomba kuba ubari hafi, ubareberera, mu gihe akajya abafasha mu kuba bafata imiti ku gihe.

Abantu bari mu zabukuru baba bafite ibyago byinshi byo kwandura indwara zigiye zitandukanye, ni byiza rero ko buri funguro ryabo rya buri munsi rigomba kuba rigizwe n'ibiririnda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri, bakaganira hagati yabo bafite umuntu wenda ubaganiriza.

Abantu bari mu zabukuru nta mbaraga nyinshi baba bafite zihagije zo kwijyana bonyine nta kindi kintu bafasheho, ni ngombwa rero yuko babashakira ibikoresho byabafasha mu kugenda nk'urugero nk'imbago, intebe, cyangwa se n'utugari.

Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bari mu zabukuru aribo bantu bafite ibyago byo kurwara indwara nk'umuvuduko w'amaraso umutima imiti, ni ngombwa rero yuko bakora siporo mu rwego rwo kwirinda izo ndwara kandi hari n'abazirwaye nabo bakazikora bikabagabanyiriza ububabare.

Abantu bari mu zabukuru ntabwo bafite imbaraga zihagije zo gukora akazi gasaba ingufu, ariko bashaka kubahuriza hamwe bagakora nk'akazi koroheje kadasaba imbaraga nyinshi nko gusarura icyayi baganira bari kumwe n'abandi. Bibafasha kuba babaho neza.

Abantu bakuze ni bo bafite ibyago byinshi byo kwandura indwara nk'umutima, diyabete, umuvuduko w'amaraso, n'imitsi, basabwe kuba bakora imyitozo ngororamubiri mu rwego rwo kwirindaza izo ndwara, no kubafite ibyago byo kuba barazanduye zibafasha kuba zitazamuka ngo ziyongere.

Abantu bari mu za bukuru hari abantu baba ba batagifite imbaraga na mba, biba ngombwa rero iyo habonetse bakamushakira umuntu ugomba kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabafasha nko guhaguruka, kugenda, bakabafasha no kubategurira amafunguro yabo ya buri munsi.

Indwara y'uruhu ni indwara yandura cyane ugereranyije n'izindi ndwara zose zisanzwe, ikaba yandurira mu matembabuzi, cyangwa se mu gihe umuntu yaba yegeranye n'undi, rero ku muntu wagaragaje ibimenyetso by'indwara y'uruhu asabwe kujya kwa muganga hakiri kare, mu rwego rwo kwirinda kwanduza bagenzi be.

Abaganga iyo bagiye kubaga umurwayi ufite uburwayi runaka, bagomba kuba bambaye imyenda igomba kuba ibarinda kwandura indwara, mu kuba bahandurira indwara zikomoka nko ku buhumekero, kuba bamabaye udupfukamunwa, bambaye ga, bambaye n'imyenda y'akazi.

Ubushakashatsi bwagaragaje ko urubyiruko ari rwo rufite ibyago byinshi byo kwandu indwara zikomoka ku mibonano mpuzabitsina, kandi urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo, rero hagomba kubaho amahugurwa afasha mu gusobanurira urubyiruko uburyo bakwirinda izo ndwara.

Mu Karere ka Kamonyi mu bitaro bya Remera-Rukoma, hashyizweho icyumba gifasha abahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuba bakumira inda zitateganyijwe, indwara zikomoka ku mibonano mpuzabitsina no kuba babafasha kuba bahura n'ihungabana.

Ibitaro byose bigomba kuba bifite ahantu habugenewe ho kwakira abarwayi baje babagana igihe bagitegereje kuba bahura n'umuganga, hari imyanya ihagije, hatuje, nta rusaku, hari isuku mu rwego rwo kwirinda akavuyo mu bitaro.

ibi bitaro bisaba kuba byakira aho ahantu abarwayi baruhukira mu gihe baba babashije kwivuzanya bahita bataha mu gihe bagitegereje ko bakurikiranwa n'abaganga hari isuku hari ibikoresho bihagije hari amakipaehita barinda indwara nka malariya ari n'umutekano uhagije

Ibitaro bigomba gushyiraho ahantu habugenewe hafasha abantu bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, mu kuba ryabarinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kuba batwara inda zitateganyijwe no kubagira inama babahumuriza.

Abarwayi bavuwe ntibahite bataha baza kuguma mu bitaro gukomeza gukurikiranwa n'abaganga ,bagomba gushyirwa ahantu habugenewe kuba baruhukira mu gihe bategereje ko muganga aza kubakurikirana, hagomba kuba hari isuku, hari umutekano ,hari amatara ahagije ,mu rwego rwo kwirinda ko ari bamwe babangamira mugenzi we.

Ibitaro bigomba kuba byubatse mu buryo bifite isuku, bigashyira aho abarwayi baje babagana ahantu habugenewe ho kuba babakirira, mu rwego rwo kubasobanurira aho bagomba kujya kwivuriza, mu gihe baba bategereje umuganga bakabafasha.

Minisiteri y'ubuzima yashyiriyeho abaturage uburyo bwo kwisuzumisha umuvuduko w'amaraso mu buryo bwizewe kandi bworoshye bworoheye buri muntu wese bitagombeye ngo umukire cyangwa umukene. Aha hantu baba bari gusuzumira umuvuduko w'amaraso hagomba kuba hari ibindi bikoresho byakwifashishwa mu gihe habaye nk'inkongi y'umuriro.

Ibitari bya Nyarugenge biherereye i Nyamirambo ku rya nyuma, ni ibitaro byakira abaturage baturutse mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu cyangwa se mu Mujyi wa Kigali, byakira abarwayi bafite uburwayi bugiye butandukanye, ni ibitaro ubona byubatse mu buryo bugezweho, bigari kandi bibasha kwakira umubare w'abarwayi benshi.

Ibitaro bya Nyarugenge ni ibitaro byubatse mu buryo bugezweho, ibitaro bigari byakakira abarwayi benshi, ni ibitaro bivura indwara zigiye zitandukanye kandi bifite ubushobozi bwo kuba byakwakira abarwayi benshi icyarimwe.

Hari abarwayi baba bafite amaraso adahagije, niyo mpamvu Minisiteri y'ubuzima yashyizeho ahantu habugenewe ho gutangira aya maraso, hagomba kuba hari imashini zihagije zipima amaraso umuntu ari gutanga nayo asigaranye mu mubiri, kugira ngo bitaza kuza kumugiraho ingaruka, no gupima niba ayo maraso atanze nta zindi ndwara zirimo cyangwa yujuje ubuziranenge.

Ibitaro bikuru by'ingabo z'igihugu byubatswe mu buryo bugezweho ku buryo hari aho abarwayi bafatira imiti, aho basuzumira, aho bafatira amaraso, aho batangira ibizami, aho ababyeyi baruhukira bamaze kubyara, aho banika n'aho abarwayi baguma mu gihe batabashije kuba bahita bataha.

Siporo ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu. Ni ngombwa rero kuba bategura siporo ihuza abantu benshi muri rusange harimo abakobwa, abagabo, abato n'abakuze, mu rwego rwo kuba bakorera hamwe bikaba byabatera kuba bakora siporo badafite ubunebwe.

Siporo ni mu buryo bumwe bwiza bwizewe bukoreshwa mu kuvura, mu kwirinda indwara zitandukanye umutwe, kubura ibitotsi, kugwa igihumure, guhora wumva unaniwe, kudatekereza neza no kugira agahinda gakabije.

Imyitozo ngororamubiri, tuziko ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, nk'abakinnyi rero bari mu kibuga, bakunda kuvuga ngo imbwa iramufashe. Rero umuntu ashobora gukoresha imyitozo ngororamubiri, kugira ngo afashe mugenzi we wahuye n'icyo kibazo.

Mu gukora siporo umuntu ashobora gukora siporo akoresheje ibikoresho byaba bigezweho kandi afite n'umuntu uri kumukurikiranira kumashini. Agashyiraho imashini igomba kumurika ikamwereka siporo agomba gukora uko zingana n'ikigero cyiza agomba gukora.

Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza, umuntu asabwa kuba yakora siporo ngororamubiri agafata indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri, bikaba byamufasha mu rwego rwo kujya yakira ubuzima bwiza buzira umuze no kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Siporo ni m'uburyomwe bwizewe umuntu yakoresha yirinda indwara cyangwa se yivura indwara agafata n'indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri ugafata n'amazi ahagije mu rwego rwo kwirinda umwuma.

Imyitozo ngororamubiri ni mu buryo bwiza bwizewe bukoreshwa mu kwirinda cyangwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Rero ku muntu wabashije kuba yakora imyitozo ngororamubiri, ni ngombwa kuba yafata amazi ariko akayafata nyuma y'iminota mirongo itatu amaze gukora siporo kuko biba byiza kuko uyafashe mbere yabyo bigutera indwara.

Uburwayi bwo ku kuvunika umugongo, imitsi no ku kuvunika akaguru, ni uburwayi bushobora kuvurwa hakoreshejwe imyitozo ngororamubiri, ni uburyo bumwe bwizewe bwo kuba bwafasha uwo umurwayi kuba yakongera guhaguruka, kugenda cyangwa kwicara.

Imbago ni kimwe mu bikoresho byifashishwa uri gihe umuntu yabahu n'imvune ika bifasha kuba yagenda wenyine naho wundi muntu bari kumwe, ikaba yafasha n'amagufa akangera kuba yasubira mu gihe atandukanye, ikaba yanamufasha kuba yakongera kugendana atagiye kuyikoresha.

Siporo ni mu buryo bumwe bwiza bwizewe bukoreshwa mu kwirinda cyangwa se mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'imitsi, umutima, umuvuduko w'amaraso, ni ngombwa rero ku bantu bafite icyo kibazo kuba bakora siporo cyangwa se ku bantu bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije kuba bakwifashisha siporo kugira ngo batakaze ibiro.

Amazi ni ingirakamaro, afite akamaro kenshi mu mubiri w'umuntu, turabizi y'uko umuntu adafite amazi mu mubiri ntabwo yaba ariho, ubwo rero ni byiza ko umuntu agomba kunywa amazi buri munsi, agafata amazi ahagije, kuko amazi arinda indwara y'impyiko, n'iz'indwara zigiye zitandukanye.

Amazi ni ingirakamaro mu mubiri w'umuntu, umuntu adafite amazi ntabwo yabaho, rero mu rwego umuntu agomba gufata amazi nibuze nka litiro ebyiri ku munsi mu rwego rwo kwirinda umwuma ukabije kandi amazi afasha mu gukora neza k'umutima.

Imiti gakondo irizewe yujuje ubuziranenge yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo nk'imvune, ibicurane kandi ntabwo ijya igira ingaruka mu mubiri w'umuntu waba wakoresheje iyo miti ugereranyije n'indi miti ya kizungu.

Umuravumba ni umwe mu miti gakondo ikomoka ku bimera, Abanyarwanda bagomba kuwukoresha bo bivu ibicurane, inkorora, hari bamwe bawukoresha bawutetse mu byayi hari n'abawotsa hari n'abandi bawuhekenyera aho ngaho batigeze bawuteka.

Hari imiti igiye itandukanye abantu bakoresha boza amenyo, ni byiza rero ko umuntu yakoresha umuti ukomoka ku bimera yoza amenyo ye, kuko uwo muti urinda amenyo kuba yahongoka no kubatacya neza kandi iyo miti irizewe ntazindi ngaruka ijya ijyira ku menyo y'umuntu.

Ubushakashatsi bwagaragaje ko imiti gakondo nayo igira ingaruka ku mubiri w'umuntu wayikoresheje niyo mpamvu haje inganda zitunganya iyo miti gakondo mu buryo bugezweho mu rwego rwo korohereza buri muntu wese ukeneye imiti gakondo kuba yayibona mu buryo bworoshye.

Umuravumba ni imwe mu miti gakondo y'ibimera ikoreshwa mu ku kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo ibicurane, inkorora ndetse ni n'impamvu leta yashyiriye abaturage uburyo bworoshye bwo kuba babona icyo gihingwa, ba basha kuba bakitungira mu ngo iwabo cyangwa mu mirima y'abo.

Ntabwo ari byiza gukoresha imiti ya kizungu cyane, ni byiza gukoresha imiti gakondo, nk'indimu, indimu ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ntago igoranye kuba wayibona, ntabwo ihenze cyane, kandi burya no gupima ibipimo wakoresha ntabwo bigoranye.

Ni byiza gukaraba umubiri dukoresheje isabune ikomoka ku bimera, tukisiga amavuta akomoka ku bimera birinda indwara z'uruhu kwangirika k'uruhu, kandi ayo masabune n'amavuta aba yizewe ko atagira ingaruka ku ruhu rw'umuntu wayakoresheje.

Nk'uko tubizi imiti gakondo yifashishwa havura indwara zigiye zitandukanye kandi ntabwo igira ingaruka ku mubiri w'umuntu waba yayikoresheje urugero: nk'indimu, umwenya umucyayicyayi bifashishwa mu kuvura inkorora, ibicurane no kubagabanya umuvuduko w'amaraso.